Igikoresho cyitwa Pawa egisitingwishe, cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu nyubako, kubera ko gifite mo mo imbere pawuda upuriza, upuriza mu nkongi y'umuriro ugahagarara. Cyegetse ku rukuta rw'inzu, impande yaho harimo pubeli irimo imyanda.

Imodoka, igare, ingorofani, imifuka, abantu, moto, sitasiyo ya SP, amatara, ibiti n'amazu.

Gare irimo imodoka zitwara abagenzi, tagisi, yutongo ifite amabara y'umukara n'ubururu, Ritico, hirya hari icyapa cya Ritico ruti aho bakatira amatike yo kuri Ritico, hakurya umusozi munini uteyeho ishyamba.

Icyapa kinini cyo ku muhanda kigaragaza icyerekezo, kirimo inyuguti z'umweru n'umuhondo NR wani hakanyaruhu muhanga mu kuzamuka mwene NR 22 ruhango kinazi ni ukuzamuka ugatambika iburyo ibiti n'inzu n'ibyatsi akajambo ka ram kavuga ingabo.